Izi ni imfashanyigisho by'umwihariko abana biga mu mashuri y'incuke, ibi bikabafasha mu kwaguka k'ubwonko bwabo ndetse no gukura bazi byinshi, ibi kandi bikabafasha mu gutegura ejo habo hazaza.

Imyuga ndetse n'ubumenyingiro, ni imwe mu mashuri afasha abantu kwihangira umurimo ndetse akabaha n'uburyo bwiza bwo kwiteza imbere, binyuze mu kwihangira iyo mirimo.

Uyu ni umugani waba Bakame n'impyisi, aho ugaragaza ubufatanye bw'ibintu n'u byaba bisumbanye mu mbaraga, kandi ukaba wigisha ko abafatanyije bose bashoboye kugera ku bintu byinshi bikomeye.

Abana cyane cyane biga mu mashuri y'inshuke ni ngombwa ko tubitaho, tukabafasha kugerayo ndetse tukabaha n'ibitabatunga ndetse n'ibibafasha, aho bara bari bityo rero ni ngombwa ko tubitaho igihe cyose.

Abana ni ngombwa ko bahabwa imfashanyigisho by'umwihariko abiga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke, ibyo bikabafasha mu kwaguka mu mitekerereze yabo kandi no gukura bazi ibikoresho bimwe na bimwe.

Abarezi ndetse n'ababyeyi, tugomba gufatanya mu gutegura igihugu cyacu, binyuze mu gufasha abana biga cyane cyane mu mashuri y'inshuke, kuko ariho hatangirwa guherwa ubumenyi abana, bityo bikabaremamo abaturarwanda beza ndetse bakazagirira n'igihugu akamaro.

Abana bacu tugomba kubaha ibibafasha iyo bari ku mashuri yabo harimo ibikapu batwaramo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi bibafasha mu kwiga nk'amakayi ndetse n'amakaramu.

Ibikoresho birimo imodoka ndetse n'utundi dukoresho, ni bimwe mu byo abana bifashisha bagura ubwenge bwabo, by'umwihariko abiga mu mashuri y'inshuke. Ibyo bikabafasha mu kwagura ubwenge bwabo ndetse no gutekereza kure.

Aya ni amashusho yifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke, aho bibafasha mu kwagura ubumenyi bwabo ndetse no mu gutegura ejo habo hazaza. Kandi bikabafasha no mu gusabana n'abarimu babo cyangwa se abarezi babo.

Abana biga mu mashuri y'incuke, ni ngombwa ko bahabwa imfashanyigisho zibafasha kubazamurira ubumenyi ku bijyanye n'ibyo babamo, ndetse n'aho baba.

Iki ni kimwe mu bifasha abana, by'umwihariko biga mu mashuri y'inshuke, kongera imitekerereze ndetse n'ubwenge kandi kikaba kiba kiri mu mashuri yabo, aho kibafasha mu kwaguka mu mitekerereze.

Uyu ni umusambi, akaba ari inyamaswa yifashishwa mu kugaragaza umuco nyarwanda ndetse ikaba yibera ahantu mu mazi ndetse ikaba yifashishwa mu gukurura ba mukerarugendo.

Iki ni igishushanyo cyifashishwa n'abana bo mu mashuri y'incuke aho baba babigisha ibijyanye n'ibice by'ikibabi, ibi bikabafasha mu kwaguka kw'ubwonko bwabo kandi no gukura bazi byinshi kandi bikabafasha no gutegura ejo habo hazaza bakabategura neza.

Izi ni imfashanyigisho zikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'incuke, aho zibafasha mu gutegura ejo habo hazaza ndetse no kongera ibijyanye n'imisomere ndetse n'imyandikire y'ururimi rw'Icyongereza.

Tugomba gufasha abana bacu gusubiramo amasomo bize by'umwihariko abana biga amashuri y'inshuke kugira ngo babashe kwaguka mu bitekerezo ndetse babashe no kubona uburere buzima.

Abana bato ni byiza ko tubaha aho kwigira ndetse tukabaha n'imfashanyigisho, zibafasha kwaguka kubwo ndetse tukabaha n'inyigisho zibatoza isuku bakiri bato.

Abana cyane cyane biga mu mashuri y'inshuke babona ibyo batwara ku ishuri bitandukanye birimo amafunguro ndetse n'bibafasha kwiga, bityo rero bifashisha ibikapu bibafasha mu kujyana ibyo ngibyo byavuzwe haruguru.

Hari uburyo bwinshi butandukanye abana biga mu mashuri y'inshuke bakoresha imyidagaduro birimo; ibyicungo, imikino isanzwe yo kwiruka ndetse no gukina umupira w'amaguru.

Abana basabwa gukurikira ibyo barimo by'umwihariko amasomo yabo ya buri munsi, bityo rero, natwe abakuru tugomba kubafasha kubaha imfashanyigisho zabo, zibafasha mu kwagura, imitekerereze yawe.

Tugomba gufatanya n'abana bacu, kugira ngo tubahe uburere bukwiye. Kandi tukabafasha kugira ngo babashe kugera ku mashuri hakiri kare, bitwaje ibyo bari buze kurya ndetse n'ibyo baribuze kunywa.

Aba ni abanyeshuri bo mu mashuri abanza aho bari kwiga ibijyanye no gusoma ndetse no kwandika. Ibi bibafasha mu gutegura ubuzima bw'ahazaza habo kandi bikabafasha mu gutegura ibyo bateganya kuzaba mu gihe kiri imbere.

Iki ni igishushanyo cyifashishwa nk'imfashanyigisho by'umwihariko z'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bikabafasha mu kubona ubwenge ndetse no mu kwaguka k'ubwonko bwabo kandi bigatuma babona n'amakuru bakeneye, ku gihe.

Ibi ni ibishushanyo biriho imfashanyigisho zikoreshwa n'abana bo mu mashuri abanza, ibi bikabafasha mu kubongerera ubumenyi ndetse no kubagura mu bijyanye n'imitekerereze kandi bagakura bazi ubwenge ndetse baranagutse mu bitekerezo byabo.

Abana bose haba abatoya ndetse n'abakuze, ni ngombwa ko bahabwa ubumenyi kandi bakabuherembwa ahabugenewe, aho rero harimo ko bagomba koboherezwa ku mashuri by'umwihariko bagahera mu mashuri inshuke kuzamura.

Buri mwana wese aba agomba guhabwa uburere, bityo abana baba bagomba kujya ku mashuri kandi bagahabwa imfashanyigisho n'abarimu babihuguriwe.

Aba ni abaturage basoje ikitwa umuganda rusange aho bamaze gukora umuhanda, inyuma yaho baganirijwe n'umukuru wabo aricyo gikorwa barimo muri rusange.

Hari ibikoresho abanyeshuri cyane cyane biga mu mashuri abanza bifashisha bari kwiga. Bityo bibafasha mu kwandika, gusiba ndetse no guca ibinyampande neza.

Ikiganiro cy'abana kitwa Itetero gikurikirwa cyane cyane n'abana ndetse n'ababyeyi, kikaba gitambuka kuri Radio Rwanda, buri ku wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice za nimugoroba, ndetse no kuwa gatandatu saa yine n'igice z'amanywa.

Amashuri abanza, abanyeshuri baho ni ngombwa ko bicara bagatega amatwi ibyo ababyeyi babo babasaba kandi ababyeyi nabo bagomba gufatanya n'abarimu cyangwa se abarezi kugira ngo bafashe abana kubatoza umuco ndetse no kubaha inyigisho zimwe na zimwe.

Abana biga mu mashuri abanza tugomba kubafasha twe nk'ababyeyi ndetse na bakuru babo kugira ngo babashe gutera imbere mu bijyanye n'ubwenge ndetse no kwaguka mu byo batekereza ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Iyi ni imfashanyigisho ifasha abana by'umwihariko bo mu mashuri y'incuke ndetse n' abanza. Ibafasha mu bijyanye no gusoma ndetse no kwandika inyuguti ndetse n'imibare.

Abana biga mu mashuri abanza dusabwa kubafasha mu kubaha imfashanyigisho zibafasha mu kwaguka mu mutwe ndetse bakiga ibyo bumva kandi babizi neza.

Izi ni zimwe mu mfashanyigisho zifasha abana by'umwihariko biga mu mashuri abanza, kubongerera ubumenyi intekerezo ndetse no mu kubona ejo heza habo hazaza binyuze mu masomo yabo.

Aba ni abana biga mu mashuri abanza aho bari kumwe n'abandi bagabo batatu bigaragara ko rero bari guhabwa ubumenyi bujyanye n'ibijyanye n'indangagaciro ndetse n'imyitozo ngororamubiri.

Ibishushanyo ni kimwe mu byifashishwa n'abanyeshuri by'umwihariko biga mu mashuri abanza kugira ngo babashe kwagura imitekerereze ndetse banafatireho amasomo y'ibyo biga bya buri munsi.

Umurezi ndetse n'abanyeshuri biganjemo abiga mu mashuri abanza bakaba bari kwiga isomo ry'imibare aho ribafasha mu kwaguka mu mutwe ndetse no mu bijyanye n'imitekerereze yabo.

Abarezi bagira uruhare rukomeye cyane mu gutegura igihugu cyacu cy'u Rwanda binyuze mu kwigisha abana by'umwihariko guhera mu mashuri abanza kugeza mu mashuri yisumbuye.

Iri ni irembo bigaragaza ikigo kitwa Rukomo sukuru, aho kibamo abana by'umwihariko biga mu mashuri abanza aho bafatira ubumenyi ndetse bakahahurira n'abarezi babo.

Izi ni inyubako z'ikigo cy'amashuri, aho kirera abanyeshuri bo mu mashuri abanza, akaba ariho bafatira amasomo yabo ya buri munsi, babifashijwemo n'abarezi bahaba buri munsi.

Abayobozi, by'umwihariko abo mu mashuri, turabashimira kuko bafasha, abana mu kubona uburere bwiza, kandi bakabafasha mu gutegura ejo habo hazaza, by'umwihariko.

Iki ni igikoresho cyifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza mu gupima cyane cyane ibijyanye n'isomo ry'imibare kandi ikabafasha mu kubona izindi nyigisho ziturutse mu gupima neza ibinyampano.

Amashuri abanza ni kimwe mu bifasha abantu gutegura ejo heza habo hari imbere, bityo rero tugomba gufatanya n'abarezi gutegura abana bacu, tubaha imfashanyigisho, ndetse tubigisha no gusoma no kwandika.

Abanyeshuri ndetse n'abana biga mu mashuri abanza ni ngombwa ko abarezi babigisha babaha uburere nyabwo kuko bibafasha mu gutegura ejo habo heza ndetse no mu gukura bagutse mu mutwe.

Izi ni imfashanyigisho aho abana b'amashuri abanza bifashisha ibi bikoresho kugira ngo bazamure ubwenge bwabo, ndetse bibashe no kubafasha mu kugira ubumenyi ku bijyanye n'ingibi: harimo gusoma, kwandika, ndetse n'ibibafasha muri siporo cyangwa nga se imyitozo ngororamubiri.

Imfashanyigisho ni kimwe mu byo abana baba bakeneye, kugira ngo babashe kwaguka mu mutwe, by'umwihariko abiga amashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abana b'inshuke ndetse n'abandi biga mu mashuri abanza bafite aho bafatira amasomo yabo bikabafasha mu guhura n'abarezi ndetse no mu kuhabonera imfashanyigisho zibafasha mu kwagura ubwenge ndetse no mu kubona ibindi bakeneye buri munsi.

Abayobozi barimo abagabo ndetse n'abagore, bari gutegura aho abana by'umwihariko biga mu mashuri abanza, bazajya bafatira amasomo yabo, ibi bibafasha kugira ngo babe hamwe amenyane ndetse babashe no kwiga kandi bafate.

Iyi ni imfashanyigisho y'abana bo mu mashuri abanza. Ikabafasha mu kuzamura imyumvire yabo kandi ikaba ibafasha mu gutegura ejo habo hazaza ndetse ikabafasha no kumvikana n'abarezi babo.

Ibigo by'amashuri by'umwihariko iby'amashuri abanza bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse no gutegura abana b'u Rwanda binyuze mu kubaha amasomo ndetse no kubagura mu mutwe kugira ngo bazabashe guteza igihugu imbere mu gihe kiri imbere.

Abarezi ni bamwe mu bafasha igihugu mu gutegura ejo heza h'abaturage babo, bityo bafite uruhare rwo gufasha abanyeshuri by'umwihariko biga mu mashuri yisumbuye, kwihangira imirimo ndetse no kubaha uburere mu bindi bitandukanye.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bari ahantu hamwe bafatira impanuro bakahavugira ndetse n'ibijyanye n'uko icyumweru cyagenze, kandi bigafasha n'abayobozi kugira ngo babahe impanuro bifuza ko bagenderaho, icyumweru cyose.

Amashuri abanza n'ayisumbuye ni bimwe mu bifasha abanyarwanda gutegura ahazaza habo heza ,bityo tugomba gufasha abana bacu kubajyana ku mashuri kugira ngo bigireyo byinshi birimo indangagaciro, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi.

Abayobozi barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bafasha abanyeshuri by'umwihariko biga mu mashuri yisumbuye, kwiteza imbere, binyuze mu bwenge ndetse no mu gutegura ejo habo heza hazaza.

Uyu ni umurezi aho ari n'abandi bayobozi bakaba bagiye gusura abana mu ishuri by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye kugira ngo barebe uko biga ndetse babashe no guhabwa andi makuru ku bijyanye n'imyigire yabo.

Amashuri yisumbuye ni hamwe mu hatangirwa uburere ndetse n'uburezi ku baturarwanda b'ejo hazaza. Bityo rero, tugomba gufatanya n'abarezi ndetse n'abaturanyi bandi ndetse n'ababyeyi bacu kugira ngo dutegure ejo hacu hazaza.

Amashuri yisumbuye ni kimwe mu bifasha abanyeshuri mu gutegura ejo habo heza hazaza, bityo rero abarezi bagomba kudufasha kuduha uburere bwadufasha ejo hacu heza kandi bikadufasha no kuhategura.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barimo abahungu ndetse n'abakobwa, ni bamwe mu bategurwa, kugira ngo bazabashe gufasha Igihugu cyacu mu kwiteza imbere, by'umwihariko twese hamwe nk'urubyiruko.

Abayobozi bacu badufasha mu myigire yacu ya buri munsi by'umwihariko mu mashuri yisumbuye, bafite akamaro kanini kuko baduha impanuro zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aba ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye aho bari aho bafatira amasomo yabo ya buri munsi, kandi ibi bikabafasha mu kumenyana ndetse no kwagura ibijyanye n'imitekerereze yabo kandi bakaba bari kumwe n'ababafasha muri ubu buzima bwa buri munsi bw'ibijyanye n'amasomo yabo.

Abarezi ndetse n'ababyeyi, ni bamwe mu bafite uruhare rwo guteza imbere igihugu cyacu binyuze mu guha uburere bwiza abana, babigisha kandi bakabafasha no mu kubamenyekanisha ndetse no kubigisha umuco muri rusange.

Iyi ni inzu mberabyombi y'ikigo cy'amashuri aho abayobozi bari guha impanuro abana ndetse bakaba bari kubafasha gusobanukirwa ibitaragenze neza, ibyagenze neza ndetse no kubakosora bitagenda neza muri icyo kigo cy'amashuri.

Uyu ni umuyobozi w'amashuri, aho ari kugira abandi banyeshuri uko bakwitwara ndetse n'icyo bakora kugira ngo bagere ku ntego bihaye. Ibi bikaba bikorwa mu mashuri yisumbuye kandi bikawufasha no kugira ngo bazabashe kwiteza imbere mu gihe kiri imbere.

Amashuri yisumbuye, afasha abaturarwanda, kubona uburere ndetse no kubigisha umuco, kandi akabafasha mu gutegura ejo heza habo hazaza.

Aha ni ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri bari gufata impanuro zivuye ku bayobozi babo, bakavuga kujyanye n'ibigenda neza ndetse bikagenda neza ndetse bakanafatanya n'abayobozi babo kureba ibyateza Igihugu akamaro.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, tugomba gufatanya na bo kugira ngo tubashe kugera ku iterambere. Ndetse bakadufasha no gutegura ejo hacu hazaza ,bategura akazi ndetse banafasha abagasanzwemo kugira ibyo bongeramo.

Abarezi bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'abantu bose kuko bafasha abanyeshuri guhabwa ubumenyi bw'ibanze ku bintu byose. Bityo rero, bafite akamaro gakomeye ku iterambere ryacu muri rusange.

Abasore ndetse n'inkumi basabwa gukora cyane kugira ngo babashe gutegura ejo habo hazaza, bityo rero abari ku mashuri na bo basabwa kwiga bashyizeho imbara kugira ngo babashe kuhategura neza.

Amasomo atangirwa mu mashuri yisumbuye na za Kaminuza, afasha abantu bose kwihangira imirimo ndetse no gufasha abandi ibyo batazi.